Inzu igeretse biragaragara ko ari ishuri, mu by'ukuri abana bigira kuri iri shuri bategetswe kugira ubuhanga, kuko bigira ahantu heza.

Ibimenyetso bigenda bisigura kandi bigaragaza ibisobanuro by'ikintu runaka. Urabona ko ibijyanye na siyansi ari ibimenyetso cyabyo, raningi hari ikimenyetso cyabyo, ayidiya hari ikimenyetso cyabyo ndetse n'ibindi.